Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, aho uwo mugabo afite mikoro ari kubwira abantu bari mu cyumba gisa nkaho ari icyumba cy'inama, icyo cyumba.

Ndi kubona abantu basa nkaho bicaye mu cyumba cy'inama, aho abo bantu bashobora kuba bari kumva uri kubabwira, imbere yabo kandi hateretse amazi, naho harimo n'umuzungu n'abirabura.

Umugore n'abagabo babiri bicaye mu cyumba bisa nk'aho bari kubwira abumva imbere yabo hateretse amazi n'amamashini ayo abantu benshi bazi nka mudasobwa, bikaba bivuze ko bari kubwira abantu bari kubumva.

Ndi kubona ifoto y'abantu bicaye, imbere yabo hari amacupa y'amazi y'Inyange, agasakoshi, urupapuro n'ikaramu, igikombe, impapuro ndetse n'inzugi inyuma yabo, amasawundi-purufu ndetse n'amatara.

Ndi kubona abantu bane, umwe ufite urupapuro ruri imbere ya porojekiteri n'igikuta cy'umweruke, ndetse muri abo bantu hakaba harimo uwambaye ishati y'ubururu, imbere yabo hakaba hateretse amamashini, bakaba bari kumwe n'umuzungu.

Ndi kubona abantu bari mu nama, harimo umugore ndetse n'abagabo, imbere y'umugore hakaba hari imashini ndetse kuri ayo meza hakaba hariho ibitabo, amazi y'Inyange ndetse n'ikaramu n'agatabo.

Ndi kubona abantu basa nkaho bari mu cyumba cy'inama, aho icyo cyumba cy'inama bambaye imipira isa imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ibyo kandi bivuze ko bari mu hantu bari kumva ibiri kubabwirwa.

Ndimo ndabona serivisi y'irembo irimo gukoreshwa na nashino insititiyuti ofu sitatisitikisi ku ruhande, ikigo cy'ibarurishamibare, bikaba bijyanye n'ibintu bya viza, hariho nimero za watsapu ubishatse wabahamagaraho, urubuga rwa egisi bakoresha n'ibindi.

Ifoto hano ifotoranyije hejuru y'amabati hariho umuriko w'umutuku insinga z'amashanyarazi, amapoto, iminara ndetse n'igicu hakurya hari umusozi urimo ibiti.

Ndi kubona itangazo rya twita rya Rwanda reveni, rivuga ku bijyanye no ku kwishyura, ndetse ukanapudetinga banki yawe ya itagisi.

Kubona umugore usa nk'aho ari ahantu, bisa nk'aho kandi ari kugenda, ahantu hari icyapa n'ipoto riri mu muhanda, kaburimbo.

Ndi kubona imiyoboro y'insinga z'amashanyarazi ziri ku mapoto. Ndetse nkaba ndi kubona igicu, icyo gicu kirimo cyiganjemo umukara ndetse n'umweru, hakaba hari n'izindi nsinga ziri kurereta ku ruhande rw'ipoto.

Ndi kubona abantu cumi na batanu muri iyofoto bicaye kwa muganga, imbere yabo hari muganga wambaye imyenda y'umweru, ndetse n'amakaro ari mu cyumba gifite purafo n'umuryango hakurya ndetse n'igikuta gisa umweru.

Kure ndi kubona inzu igeretse isa umweru ndetse hino hariho amatafari, imbere yayo hari umuntu uri ku byuma ndetse n'undi uri kugenda hirya, nkaba ndi kubona na kaburimbo imbere yayo ndetse n'ahantu hari ikintu cy'umutuku gifasha mu kuzimya igihe habaye inkongi.

Ndi kubona ifoto y'umukuru w'igihugu, ndetse ari kumwe n'abacamanza inyuma ye hakaba hari abaminisitiri bahagaze imbere y'igishushanyo, ikirangantego k'igihugu ndetse inyuma hakaba hari amadapo y'u Rwanda, hari n'igikuta gisa umweru ku masikariye.

Ndi kubona ifoto ya kizito mihigo, inyuma ye hari izindi mfungwa nyinshi, yambaye akabaji mu ijosi ndetse bara munsi y'amabati n'ibiti bibakikije, hakurya ye gato hari mikoro.

Ndi kubona umugore uri ahantu hari idarapo ry'igihugu cy' Rwanda, aho uwo mugore yambaye amarinete, ingofero, n'ikindi kintu kimeze nk'ikanzu cy'umutuku.

Kubona ifoto ya pasipori imeze nk'aho ari iy'umucamanza wambaye ikanzu ishati y'umweru karuvate ndetse ureba nabi.

Ndi kubona imodoka ya polisi y'umweru n'umukara, ndetse n'umuhondo, ibirahuri by'umukara, amapine y'umukara hakurya hari aporodize.

Umupolisi usa nk'aho ari kumanuka, aho uwo mupolisi ari kumwe n'umugabo, umugabo kandi akaba nawe ari kuvugana n'uwo mupolisi, hirya hari inzu nini cyane.

Ndikubona ahantu hasa nkaho hari umupira, uwo mupira ukaba ushobora kuwukoresha wazimya ahantu hari umuriro mu gihe habaye inkongi y'umuriro, wafata umupira ugafungura ahantu hava amazi ukabasha kuba watunga ahantu hari kuva umuriro ukazimya.

Kubona ahantu bisa nk'aho ari ikigo cya polisi giherereye Muhima, ahantu bisa nkaho baharebera serivisi zijyanye n'ibyo gutanga amatesite ku modoka.

Ndi kubona nyakubahwa perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bamukikije harimo abagabo n'abagore, akaba yambaye ikote ndetse n'amarinete, akaba yari ari kugenda.

Abagabo basa nk'aho bicaye mu cyumba cy'inama, aho abo bagabo bagiye batandukanye, aho ndi kubona abagore n'umugabo usa nk'aho atari umunyarwanda kandi bari kuvuga ku bintu bisa nk'aho ari akazi.

Kubona umugore asa nk'aho ari kubwira abantu bisa nk'aho ari abanyamakuru kuko imbere ye hateretse amamikoro menshi. Umugore kandi bisa nk'aho ari umuyobozi.

Isa nkaho bari mu kintu kimeze nk'ikibogisi icyo kibogisi kandi bakaba bari kukirebamo ibipapuro bigiye bitandukanye aho bambaye imipira y'umweru n'amapantaro yumukara.

Kubona ahantu bisa nk'aho hari umugore usa nk'aho ari guseka. Umugore ari ahantu hari ibiti, yambaye igitenge n'undi mwenda w'umweru.

Ndimo ndabona abantu batatu barimo abamama babiri n'umugabo umwe, inyuma yabo hari amatara arikwaka bariguseka babiri ni bo bari guseka undi ntago arimo guseka, ndikubona inyuma yabo ikintu k'ikibodi cy'umutuku.

Utudarapo twa FPR dushatse kuvuga ko ari umuryango ushobora kuba wafasha, umuyobozi mu kuba yakwiyamamaza mu bikorwa bigiye bitandukanye, ukabasha no kuba wafasha Abanyarwanda.

Ndi kubona umuhanda na bisi y'umweru ahagana amasaha y'ijoro, hari umuntu uri kwambuka hirya ndetse hari n'ikamyo iri hakurya isa umweru, n'ipoto z'insinga z'amashanyarazi n'inzinga ndetse n'umusozi.

Ahantu bisa nk'aho ari muri gare, gare ishobora kuba yajyamo imodoka zitegereje abagenzi, zikabasha kuba zabatwara ahantu hagiye hatandukanye, aho ndi kubona ibi bisi binini cyane bijyamo abantu.

Umumotari uri kuri moto, yo mu bwoko bwa bogiseri mumuhanda, imbere hari ibiti ndetse n'igipangu gisa umukara, hakurya hari etaje, ndetse na yo etaje harimo amabara y'umweru ndetse n'ibirahuri by'ubururu, aho hafi hari ibiti ndetse n'igicu, muri uwo muhanda kandi harimo umurongo usa umweru.

Ndikubona ikamyo y'umweru iri mu bwoko bwa dayihatsu ifite purake ya eri hashi zeru mirongo itanu na gatatu, ndikubona kaburimbo moto inyuma yayo n'indi modoka iri inyuma yayo.

Ndikubona ikamyo yo mu bwoko bwa dayihatsu isa umweru hejuru yicayemo umuntu w'umugabo wambaye isarubeti isa ubururu ndetse n'ingofero y'umweru bari mu muhanda hirya yabo hari ipoto y'umweru ndetse n'ibiti hakurya.

Kubona moto iri ahantu mu muhanda isa nkaho iri kugenda, iyo moto ikaba itwara imizigo inyuma hari ikimodoka kinini gisa nk'aho gitwara abagenzi.

Ndi kubona umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagaguye y'umuhondo ndetse n'indi y'umweru, hakurya hakaba hari amapave, ibiti, amapoto, insinga z'amashanyarazi ndetse na moto zitwaye abagenzi.

Ndikubona imodoka ya tagisi izwiho gutwara abagenzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ikirango cya e, a hashi, ariyo ra na a na ha maganarindwi na gatandatu i isa umweru iri mu muhanda.

Ndi kubona amapikipiki ndetse n'utumoto two ku mapine atatu dusa ubururu, ndetse na moto imwe y'amashanyarazi ndetse n'indi ikoresha esansi, hakurya yazo hakaba hahagaze abagabo, hakaba hari n'amataje inzu z'ubucuruzi, hakaba hari amapoto, insinga z'amashanyarazi.

Ndi kubona moto iri mu muhanda, hari moto itwara abantu n'ibintu hari n'indi itwara imizigo, aho ziri mu muhanda wa kaburimbo.

Ndi kubona abantu usa nkaho ari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, mu muhanda hari ikamyo itwara imizigo, hirya hari iki imodoka cya shirumuteto gitwara abantu kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi mu mujyi wa Kigali.

Ndi kubona bisi y'umweru itwara abagenzi; hakurya hakaba hari abantu batatu ndetse n'utundi tumodoka dutoya dutwara abagenzi. Hakurya hakaba hari amatara ari kwaka mui joro ndetse n'akandi kagega gasa ubururu.

Ndimo ndabona igikamyo cy'umweru, nkabona igiti, nkabona kaburimbo, nkabona icyapa cya mutsingi.

Ndi kubona ahantu bisa nkaho hari ikibuga cy'umupira, aho icyo kibuga gishobora kuba cyakinwamo n'abantu bagiye batandukanye, aho abo bantu bashobora kuba bakinamo umupira w'amaguru ukunzwe kuri iyi si.

Icyapi kirimo imodoka, ni icyapa gishobora kuba cyashyirwa mu muhanda kikabasha kuba cyakerekana aho imodoka zigiye zitandukanye zishobora kuba zaparika bityo ukabasha kuba wahaparika.

Ndikubona icyapa gifite umuzenguruko w’umutuku, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikirango cy'umukara gifite inyuma has’umweru kirimo ishusho y'igare.

Ndi kubona icyapa cy'umuzenguruko w'umutuku, w'ubuso bw'umuhondo, ikirango cy'umukara cy'umuntu urimo urubaka.

Ahantu hari akapa gasa nk'aho kari kwerekana ko aho hantu imbere hari abakozi bari gukora ibintu bitandukanye, aho bishaka kwerekanwa n'icyo cyapa ahantu kiri kitubwira ko hari abantu imbere bari gukora.

Icyapa kiri mu muhanda, hirya hari ibiti icyo cyapa gisize irangi ry'umutuku hagati harimo akantu k'umuka ibyo bikaba bivuze ko kiri kuranga ibintu bitandukanye.

Ndi kubona ahantu hari umugabo usa nkaho, uwo mugabo ari kugenda, kandi uwo mugabo afite akantu yambaye ishati y'ubururu, ari ahantu hari inzu nini bisa nkaho iyo nzu ari iy'ubucuruzi.

Ndi kubona inzu igeretse y'ibirahure by'ubururu igipangu gisa umukara ndetse imbere yacyo hakaba hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo hakurya hakaba hari ibiti biyikikije ndetse na kaburimbo biri hakurya yayo.

Kubona abantu basa nkaho bari ahantu bisa nk'aho hari abantu bagiye kugura ibintu bijye bitandukanye, aho bari kubigurira mu mazu y'ubucuruzi agiye atandukanye.

Ndi kubona icyapa cyo muri Kigali, kigali Kicukiro cyanditseho umubare cumi na kane, inyuma yacyo hari ibiti ndetse na etaje inyuma gatoya.

Ndi kubona ifoto irimo inzu iri ku muhanda, igipangu cy'umukara. Iyo nzu isa umweru, hariho ibirahure, amapave ku muhanda ndetse hakurya hari n'ibiti byinshi.

Ahantu bisa nk'aho ari mw'ikaritsiye, aho iyo karitsiye irimo moto, iyo moto kandi ikaba ishobora kuba yatwara imizigo igiye itandukanye.

Ipoto yo mu muhanda wa kaburimbo, urimo imodoka yo mubwoko bw'ivatiri isa umutuku, ndetse na moto iriho abantu babiri, ndi kubona abantu ku ruhande umwe wambaye ikanzu y'umutuku n'undi, ndetse n'icyapa cyanditseho Kigali izamutse n'igare riri munsi yacyo.

Ndi kubona ahantu mu muhanda, aho umuhanda, ari umuhanda wubatswe, hejuru hari ikiraro, hasi ari munsi y'ikiraro, aho hose hacibwaho ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bifite moteri cyangwa ibidafite moteri.

Umuhanda, umuhanda kandi ukaba ari umuhanda wa kaburimbo uherereye mu mujyi wa Kigali, aho uwo muhanda uri kwambukamo abantu, abo bantu kandi bakaba bari kwambuka mu turongo tw'umweru.

Ifoto icuritse hari n'imodoka iri mu muhanda, hino y'umuhanda hariho jaride, ndetse umuhanda ukaba urimo imirongo isa umuhondo, hakurya hari ibiti, ipoto ndetse n'icyapa.

Ndikubona umuhanda wa kaburimbo, urimo ikamyo ya kontineri, ndetse n'indi bigiye kubisikana iri imbere, ikaba umuhanda uri hejuru y'ikiraro, n'abantu bari kugenda ku ruhande.

Umuhanda aho uwo muhanda urimo ibinyabiziga bya moteri, aho ibyo binyabiziga biri kugenda biva ahantu hamwe bijya ahandi, harimo imodoka n'amamoto bisa nk'aho byigiriye mu bintu byabyo.

Ndi kubona ahantu bisa nkaho ari mu muhanda wa kaburimbo, aho uwo muhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho harimo imodoka na moto.

Ndi kubona umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo icagaguye y'umweru ndetse n'amamoto arimo aragenda ku mpande, amatara ndetse n'ibiti bikikije aho, intsinga n'amapoto ndetse hakaba hari na jaride dukunze kwita ubusitani.